Umufuka g'umuhondo gwanditseho amagambo gagiye gatandukanye gukaba gurimo ubwoko bw'imiti twakoresha igihe tugiye guhinga ibihingwa bitandukanye kugira ngo bibe byiza nyuma yago hakaba hariho ikintu cy'umukara no hino yago hakaba hari ikindi kintu kimeze ngame...

Igicupa cyanditsweho detani emu mayinasi mirongo ine na gatanu. Kikaba gikoreshwaga igihe turi kwica udukoko turi mu myaka nk'ibirayi, ibigori, kigatera ibihingwa gushisha bikagaragara neza bigatanga n'umusaruro guhagije.

Igihingwa gishushanyije ku ishashi hariho itomati n'ukuntu gikoreshwa, kiba kibamo imiti dukoresha turi kwica udukoko tuza mu mbuto twateye mu murima yacyo.

Imifuka myinshi ziteretse hamwe z'umweru, zifite n'akandi kabara gashushanyijemo ikimera cy'umweru mu ibara jy'ubururu, bikaba biri munsi y'igiti kirekire, hijya hakaba n'ibindi byatsi byenda kuba umuhondo n'ikirere bisa n'aho izuba riri kuva, bikaba biteretse ku kantu kameze ng'ameza

Igicupa cy'umweru gifite umufuniko w'umweru, kikaba gifiteho igipapuro cy'umutuku cyanditseho tenipasenti, kikaba kirimo imiti dukoresha igihe tugiye kwica udukoko tuba mu myaka, kugira ngo igihingwa gikure neza.

Imifuka za kirogiana n'izindi z'ifumbire dukoreshaga mu buhinzi bwacu, bwo guhinga ibirayi ibigori n'izindi mbuto, zigiye zitandukanye, kugira ngo biduhereze umusarurohagije.

Ibicupa byinshi bigiye bitandukanye, bikaba bikoreshwa mu buryo bugiye butandukanye. Bikaba birimo imiti abaganga b'amatungo bifashisha igihe hari itungo rirwaye indwara runaka, kugira ngo baryongerere igihe cyo kubaho.

Akajerekani kari hamwe n'ibicupa bitatu. Harimo imiti dukoresha twica udukoko tuva ku bimera nk'ibigori, ibirayi, bikaba biteretse ku byatsi by'icyatsi. Hirya hariho n'ibindi byatsi bisa n'aho byumye, kandi bikaba bikoreshwa igihe dushaka kugira ngo dutunge imbuto zitoshye zisa neza.

Uburobyi bw'amafi mu Gwanda buteza imbere igihugu kubera ko igihe twayagurishije tubonaga amafaranga yo kwishyurira abanyeshuri, tukagura ibyo kujya ndetse tukitungira n'amagara mazima kubera ko gakoreshwaga gari kuturinda mu mubiri wacu. Gakaba gabagamo n'imiti gutandukanye, gakaba gabaga mu mazi nta handi kabasha kuba.

Ubworozi bw'amafi bwateye imbere mu Rwanda, aho usanga ari inyamaswa ikura iri mu mazi, igihe itari mu mazi ntabwo yabasha kugira ubuzima, ikaba iteza imbere igihugu n'abandi bakora umwuga w'uburobyi.

Amafi ni ubworozi bukorerwaga mu mazi, bukaba butangaga umusaruro ku gihugu ndetse n'abantu, bikaba bidufashaga mu guteza imbere, kandi igihe umwana agiye ku ishuri tukabona minerivare tumwishyurira, tukishyuraho na za mituweli n'ibindi bintu dukeneraga mu buzima bwa buri munsi.

Ifi ni inyamaswa yiberaga mu mazi itari mu mazi ndabwo ibagaho irapfaga ,ikaba idufashaga mu bindu bigiye bitandukanye nko kubaka umubiri ,kurinda ingwara no gutera imbaraga ,ikaba itezaga imbere igihugu n'abandu bagiye batandukanye muri rusange bakoraga iby'uburobyi.

Ubworozi bw'amafi bukorerwa ahantu hari amazi, ndetse n'umutekano uhagije. Bikaba bikorwa n'abarobyi n'abandi bantu bashinzwe ibintu byerekeranye na byo. Aha hakaba hari amafi ari mu mashashi n'andi ari mu base biteretse ku meza. Afite ibara ry'umuhondo.

Ifi ni inyamaswa ikuriraga mu mazi ikaba ikungahaye kuri vitamini zigiye zitandukanye akaba kariho n'akatsi bitaga timu gakoreshaga mu kuvura izindi ngwara n'indimu tukayikoresha igihe ushaka kugabanya umubyibuho bikaba biteretse ku isahani y'umweru nayo iri ku meza

Umureti ni ibyokurya abantu bategura, igihe bakoresheje amagi bakayamena, barangiza hakavamo ibiryo biryoshye cyane abantu bifashisha, kugira ngo bave mu mirire mibi. Bikaba birinda bwaki ku mwana ukiri mutoya cyane.

Inyama ni ikintu kidahingwa kikaba kiryoha cyane. Kubera ko igihe wagitetse neza, gitanga isosi imeze neza. Inyuma yacyo hakaba hari ibyatsi by'icyatsi, kiri mu isorori y'umweru. Harimo n'ibindi birungo abantu bashyiramo kugira ngo iryohe.

Ibyatsi bigufi n'ibirimo ibyumye, hirya y'aho hakaba harimo n'ibiti birebire n'inzu yubakishije amatafari gahiye, no haruguru amatafari gahiye. Hakaba harimo n'ubutaka busaga ng'umucanga.

Igitoki ni igihingwa gihingwa mu Rwanda igihe kizanye ibyana bakaba bagitegesha ibiti bikomeye kugira ngo kitagwa hasi, munsi y'acyo hakaba hari ibyatsi bigufi ,inyuma y'acyo hakaba hariho n'ibindi byatsi birebire n'ikirere cy'ubururujuru.

Igihingwa kitari kirekire cyane, haruguru yacyo hariho amateke, munsi yacyo hakabaho ibyatsi bigufi, inyuma yacyo hakaba hariho inzu isize sima ifite n'idirishya ry'umutuku n'iyindi y'igitaka.

Ibyatsi bitoshye na sitaliya n'ibindi biti biri haruguru n'inzira nyabagendwa abantu banyuragamo hakaba hari inzu iteye sima n'ikirere kiri hejuru gifite amabara jya buresiyeri n'ubururu bikaba bigaragara ko ikirere ari ciza cane.

Ibirayi biteye mu murima hirya yabyo hakaba hariho ibyatsi byumye n'igitoki, haruguru hakaba hariho ibindi biti birebire by'indusi n'umusozi uri hirya, hakaba ariho n'ikirere gifite amabara abiri y'umweru n'irigiye kuba nk'ubururu ariko atari rwo neza.

Igipangu cubakishijwe amatafari ganiye, hejuru yaho bakaba barateye sima, inyuma yacyo hakaba hariho igiti, mo imbere hakaba harimo n'ibindi biti, ndetse n'indi nzu iri iruhande gwacyo.

Igiti gifite amababi maremariye giteye hagati y'ibindi byatsi bigiye bitandukanye, ibisa n'ibyumye n'iby'icyatsi bitoshye, hirya yabyo hakaba ari ikindi giti gisa naho ari icya avoka, gifite amababi gagiye atandukanye.

Urusasa ni igihingwa abantu batera kugira ngo kibafashishe mu mirimo igiye itandukanye, harimo nko kuboha ibisero n'utundi tuntu tugiye dutandukanye, ikaba yubakishwa amazu akoreshwa ibitaka.

Amateke ari mu murima n'ibindi byatsi bitandukanye, inyuma yabyo hakaba hariho inzu yubakishijwe amatafari ahiye ,bikaba bikoreshwa ku mafunguro yacu kuko bikungahaye ku bitera imbaraga mu buzima bw'umuntu.

Urusasa ruri hamwe n'inzu iteye amarangi g'umuhondo n'amabati gasa naho gamaze igihe. Hariho agapangu k'ibiti, inyuma yayo hakaba hariho n'ibindi biti birebire, n'ikirere n'umwana uri kugendera mu nzira abandu banyuragamo.

Ibyatsi bitoshye cyane byinshi biri ahantu ku butaka, hirya yabyo hakaba hariho n'utundi turabo dufite amabara y'umweru, n'ibiti birebire ,hepfo yabyo hakaba hariho inzu ifite amabati y'umweru, n'ikirere cyiza gisa na buresiyeri.

Ndabona ibirayi bisa naho bikuye n'ibiri mu murima, nkabona ibiti bigaragara ngaho biri inyuma y'ibirayi kandi ibi biti bidufasha guhumeka umwuka mwiza, bikatuzanira imvura, ibirayi bikera.

Indabyo nziza cyane ziri haruguru y'umuhanda zifite amababi g'icyatsi ndetse n'uturabyo tw'umweru n'igitoki hirya yayo cyo ni haruguru y'igitoki. Hakaba harihoho n'inzu isa n'aho ari iy'igitaka, kandi bikaba biri ku muhanda gusa n'aho ari nyabagendwa gunyuragamo n'abandu b'amaguru.

Inzira nyabagendwa inyugwagamo n'abandu bagiye mu nce zigiye zitandukanye muri aka gace, hakaba hariho ibiti bifite uturabyo tw'umutuku n'ibyatsi bindi bisa n'aho byumye, hakabaho n'utundi twatsi tugufi, hakaba hari n'akandi kazitiro kari munsi y'iki giti kirekire muri kubona hano.

Ibiti birebire bifite amababi gagiye gatandukanye harimo:n'iby'ibishupuri, n'ibigufi biri hasi bifite amababi g'icatsi n'ikirere ciza cane kiri hejuru yabyo, bikaba bikoreshwaga mu gihe tugiye ngo gucana tukabishira ku zuba tukabitara no ku ziko bikuma tukabitekesha ibijyo tukabijya.

Igiti gifite amababi n'amashami gagiye gatandukanye, kikaba kiri ahantu hari ibyatsi, inyuma yacyo hakaba hariho amazi menshi bisa naho ari ikiyaga, hakaba hari n'ibindi byatsi bisa naho ari umweru, n'ikirere cyiza, gisa naho izuba riri kuva ryinshi.

Ibyatsi bitandukanye byameze ahantu hakaba harimo ibi byumye wagirango ni amasaka, hijya yaho hakaba hariho amazi ga elicede n'igiti kirekire n'ikirere ndetse n'ibitoki ku ruhande, hakaba harimo n'ibindi byatsi byiza bitoshe.

Abagabo batatu bari mu murima bishimye, harimo uwambaye ishati y'umuhondo urimo hagati, n'uwambaye ishati yo mu gitenge y'icatsi, n'uwundi mugabo wambaye agapira uwo hagati akaba yambaye na bodaboda, bakaba bari mu murima guteyemo ibigori bitari byakura.

Abagore benshi bikoreye ibyatsi n'ibisero bari kunyura mu nzira nyabagendwa, haruguru y'aho hakaba hariho uruzitiro rufite ibyatsi by'icyatsi, no hepfo y'aho hakaba n'ibindi byatsi ,bisa n'aho bagiye kugurisha ibicuruzwa byabo mu isoko.

Amajeri gadatonoye gari mu mbegeti akaba ari igihingwa gihingwaga mu Gwanda gikungahaye ku byubakaga umubiri, bikaba biteretse ku meza. Gafite ibara ryakaki, kakaba gakoreshwaga no mu buvuzi nyagwanda.

Imyembe ni igihingwa gihingwa mu Rwanda. Kikaba kiryoha cyane kubera ko gikungahaye ku birinda indwara. Hakaba harimo amoko yazo iz'umuhondo, n'iz'icyatsi. zikaba ziri ahantu ku meza, afite igitenge cyangwa se igitambara cy'ubururu.

Umugabo wambaye ingofero y'icyatsi, n'igisarubeti y'icyatsi, akaba afashe rozwari y'icyatsi, dukoresha igihe duha ibimera amazi, akaba ari mu murima urimo ibitunguru, inyuma ye hari ibiti birebire, n'ikirere gisa na bulesiyeri gisa n'aho izuba riri kuva.

Ubuhinzi bw'amatunda, pome, watameloni ndetse n'amaronji bukoregwaga mu Gwanda Ibi akaba ari ibihingwa bifashaga abantu barwaye indwara zigiye zitandukanye, tuvuze nko kuri waterameloni ifashaga ku bantu bagwaye umuvuduko.

Amapera ni igihingwa gihingwa mu Rwanda kikaba kiryoha cyane, akaba ari imbuto zikungahaye kuri vitaminini zigiye zitandukanye mu buzima bwa muntu, kikaba gifite amabara agiye atandukanye irigiye kuba umutuku, n'utubuto dukomera iyo uri kuduhekenya wumva amenyo agiye gukuka.

Puwavuro ni igihingwa gihingwa mu Rwanda, tukaba dugikoresha mu gihe turi gutegura amafunguro, nk'imboga, tukaba tugikaranga kigatuma ibiryo bigira impumuro nziza, cyikaba gifite n'amababi meza cyane, amababi arambuye y'icyatsi, ndetse inyuma yacyo hakaba hariho n'ibindi bintu by'umutuku.

Ibigori bitarakura neza bikaba bifite imiheko z'ibigori bibiri bigiye bitandukanye bifite udusagi bikaba biteye mu gitaka bubakishaga amazu hijya yabyo hakaba harih'imisozi n'ibitari n'ikirere ciza bikaba bidufashaga mu mafunguro gacu gaburi munsi.

Abantu bari guhinga harimo n'abari gutera， inyuma yabo hakaba hariho umusozi， n'ibyatsi n'ibiti birebire，hakaba hariho n' inzu y’amategura，ifite ibiti inyuma yayo birebire， n'ikirere n'ugundi musozi guri ku ruhande gwo haruguru.

Ibirayi byitwa kinigi biri mu mufuka w'umweruru ,n'icyasi, n'umuhondo n'umutuku, bikaba ari igihingwa gihingwa mu Rwanda twifashisha mu mafunguro yacu ya buri munsi kuberako bitera imbaraga, bigatuma tugira amagara mazima no mu mirimo yacu tugahorana kuraje.

Imyembe ni imbuto zihingwa mu Rwanda zikaba zigira amabara y'umuhondo n'icyatsi zikaba ziryoha cyane umugabo ubifite akaba yambaye agapira k'ubururu n'ipantaro ya kaki ahantu bisa naho ari mu isoko bicururizwa.

Igitoki ni igihingwa gihingwaga mu Rwanda, tukaba tugikoreshaga ku mafunguro yacu ya buri gihe. Kikaba giteraga imbaraga kandi tukaba tugikoragamo inzoga ng'ugwagwa n'iyindi mitobe. Bikaba idufasha kugira ngo tunezeregwe mu miryango ndetse no ku baturanyi bacu.

Ivoka ni igihingwa gihingwaga mu Gwanda. Tukaba tucyifashishaga ku mafunguro yacu ya buri munsi, ndetse tugikoresha igihe tugiye gukuramo n'amavuta yo kwisiga haba mu maso, cyangwa mu misatsi, kubera ko itumaga umusatsi guba mwiza ukabyibuhisha gugashayininga ku buryo buri muntu wese abibonaga.

Amajeri ni igihingwa gihingwaga mu Gwanda kikaba kijyohaga igihe gihiye, bikaba biri ku meza ndetse hijya yaho hakaba hariho igisoro dukoreshaga turi kubikamo imyaka twasaruye ng'ibishimbo, inyanya n'ibijumba haruguru yaco hakaba ariho na gatebe umundu yicaragaho ananiwe.

Ibitunguru igihingwa gihingwaga mu Gwanda kikaba cyeraga ari ikintu kigufi, kikabera mu butaka, kikagira amababi gagiye kuba nk'ubururu. Tukaba tugikoresha mu mafunguro gacu ga buri munsi, kubera ko gifashaga gukangura umubiri, kigakiza n'indwara zimwe abantu bagwaraga, zigatuma bahorana umutwe gudakira.

Ubuhinzi bw'ibirayi bikorerwaga mu Rwanda， ibi bikaba biri mu mifuka， imyinshi igiye itandukanye，bigaragara ng'aho byeze cyane， bigatanga umusaruro， bikaba biteretse ahantu ku butaka，hirya y'aho hari utwatsi tugufi n'ibiti birebire.

Aga majeri ni igihingwa gihingwaga mu Gwanda mu bice by'Iburengerazuba, gakaba gajyohaga cane kubera ko gafashaga abantu kugira ngo bagire uruhu rutoshe, gakaba gatumaga umuntu agira amagara mazima gakoreshwaga igihe bari gutegura amafunguro.

Ibireti ni igihingwa gihingwaga mu Rwanda mu gace k'iburengerazuba, bikaba bitezaga imbere igihugu n'abaturage babihingaga, kikazana na ba mukerarugendo, kikoherezwa hanze kikavamo imiti zidufashaga mu buzima bwacu.

Abagore bane harimo n'uhetse umwana, bari gukura ibirayi bakabishyira mu mifuka, kugira babone uko babijanana ku isoko babona uko babigura, bikaba bidufashaga kugira ngo tugire amagara meza, kuko tubikoresha ku ifunguro jyacu jya buri munsi, hakaba hariho n'ibyatsi bisa n'aho ari bikeya.

Abantu benshi bari mu murima urimo amashu, hakaba hari umuntu wabasuye uri kubabaza, bakaba bateye ibiganza byabo hejuru kugira ngo basubize. Inyuma yabo hakaba hariho ibiti n'umusozi n'ikirere cyiza gisa n'umweru.

Abagore babiri bambaye ibitenge, biteze, bari gusarura ingano ziri mu murima zumye, inyuma yabo hakaba hariho ikirere cy'umweru n'ibiti birebire n'agati kari konyine ku ruhande rwo haruguru.

Umuhungu wambaye isarubeti y'ubururu n'ingofero yu'bururu n'umukobwa ufite ibisuko wambaye umupira w'ubururu, bakaba bari mu murima bari kuwukorera neza. Ibihingwa biteye bikaba bitoshye biteye imbabazi. Inyuma hakaba hari ibiti birebire bifite amababi menshi.

Avoka ni igihingwa gihingwa mu Rwanda, kikaba cyera imbuto nyinshi, gikoreshwa ku mafunguro yacu ya buri munsi, tukagikoresha n'igihe tugiye gukoramo amavuta yo mu mutwe, n'ayo kwisiga ku mubiri, kikaba gikungahaye ku birinda indwara mu mubiri w'umuntu.

Wotameloni tuyikoreshaga mu buvuzi n'igihe dushaka kugira ngo tugire amagara mazima , isura yacu ikagenda ikagira itoto , hakaba hariho n'icatsi ciza cane gisa naho gifite amababi garambuye na pome iri iruhande gwayo bikaba biteretse ahantu hasa naho hari umweru.

Umugore n'umwana bari guhinga bakaba harimo uwiteze igitambaro c'umutuku, uwambaye ijipo ya kaki, inyuma yabo hakaba hariho imisozi ziteyeho ibiti n'ibindi byatsi bigiye bitandukanye n'ikirere gisana neza.

Abagore n'abagabo, baje gusarura ibihingwa biteye ahantu mu murima, bakaba bambaye udupira tw'icyatsi, n'abakenyeye ibitenge, n'abambaye amajipo, n'umugabo wambaye ikositimu n'agatambaro k'ubururu mu ijosi, na bote z'umukara.

Ibishyimbo bigiye bifite amabara gatandukanye， akaba ari igihingwa gihingwa mu Rwanda，kidufasha mu guteza imbere ubukungu bwacu， ndetse no kukifashisha igihe dukeneye nka minerivari tugurishaho，tukabona ayo twishyurira abanyeshuri bacu bagiye kwiga.

Voka ni imbuto zihingwa mu Rwanda zikaba zidufasha igihe turi gukora amavuta agiye atandukanye, ari ayo mu mutwe, ari ayo kwisiga bikaba bituma umusatsi ubyibuha no mu maso ukagira uruhu rutoshye. Zikaba ziri ahantu ku meza afite ibiti birebire.

Ibigori byumye bifite amashara ndetse munsi yabyo hakaba harimo ibyatsi bifite amababi g'icatsi, bikaba biteye mu butaka busa n'igitaka cyo bubakishaga inzu, bikaba bikoreshwaga mu kurya ari ukurya imbungure zabyo cyangwa kubibeta ugakuramo ifu by'ubwoko bugiye butandukanye.

Ikirayi ni igihingwa gihingwaga mu Gwanda. Tukaba tugikoreshaga mu mafunguro yacu ya buri munsi, kubera ko biteraga imbaraga, bigatuma umundu agira amagufa akomeye mu mirimo ye akora, agakorana kuraje n'imbaraga zihagije. Gakaba gari ahandu mu ihunikiro kubera ko tuwukoresha kugira ngo turinde ibirayi kubora.

Ibijumba ni igihingwa gihingwa mu Rwanda kikaba gitera imbaraga, biri mu mabase afite amabara atandukanye iry'ubururu, n'iry'icyatsi n'umuntu wambaye bodaboda z'umuhondo uri kubicuruza, bisa n'aho biri ku isoko bikaba biteretse ku gitaka cy'umuhondo.

Igihingwa gifite imbuto nziza ziteye imbazi wagira ngo ni ibipapayi kikaba gifite amashami menshi. Giteye mu butaka, munsi yaco hakaba hariho amababi gumye, hirya yaho hakaba hariho ikirere ciza, ndetse kikaba gikoreshwaga mu kwihaza ku biribwa mu Rwanda.

Amateke igihingwa gihingwaga mu Gwanda, kikaba gikungahaye kuri vitamini z'ibiteraga imbaraga, kikaba kirambitse hasi bikaba byareze cane bikaba binini, bigaragara ko byatanze umusaruro kuri nyir'ubuhinzi ndetse n'igihugu muri rusange.

Imiteja ziri mu kadobo k'umweru, no mu mufuka gufite amabara g'ubururu, na pavuro hirya n'ibindi byatsi biri hejuru y'ibase y'ubururu, n'umuntu uri kugaragaza ikiganza gusa, bikaba biri ahantu ku meza, bikaba bikoreshwaga ku mafunguro gacu ga buri munsi, akaba ari ibishimbo bateraga ariko ntibizana ibishimbo, bikaba guca ko muri kubibona.

Umugore wambaye igitenge gifite amabara gatandukanye witeze n'igitambara, wambaye n'agapira k'umukara, akaba ari mu murima guhinzemo ibigori. Ndetse inyuma ye hakaba hari ibindi byatsi n'imisozi n'ikirere ciza kiri kugaragara.

Umugabo ufite ibyatsi mu ndoki, akaba yambaye ishati y'amaboko maremare, ifite umufuka gumwe. Yambaye n'ingofero y'urubaraza bitaga mu ndimi z'amahanga "sanihati". Akaba ari mu bigori bitari byakura neza, kandi hirya yaho hakaba hariho ikirere gisa na buresiyeri.

Aga mateke ni ibyokurya bitera imbaraga gakaba gera mu bice byo mu Majyaruguru , mu Majyepfo ndetse no mu Burasirazuba. Gakaba garyoha igihe geze ahantu hakomeye ariko iyo gateye ahantu hatoshye kataryoha nk'uko garyoha gateye ku butaka bukomeye.

Abagore bari guhinga ahantu hari ibyatsi byiza cyane by'icyatsi, inyuma yaho hakaba hari inzu yubakishijwe igitaka n'amabati gw'umweru, ikaba iriho n'igitoki kitari cyera neza, bakaba bambaye imyenda bitaga ibitenge biteze n'ibitambara.

Abandu benji bari mu murima gurimo ibirayi bari kubikura bafite n'imifuka bamwe bambaye imipira z'umutuku, n'igitambara c'umukara uwundi akaba akenyeye igitenge c'icyatsi, hijya yabo hakaba hariho ibiti bifite amababi g'icatsi n'utwatsi turi aho bari gukurira dusa naho twumye n'utundi tukiri duto.

Amavoka ari mu tubasikete tw'umweru afite ibara ry'icyatsi, twifashisha turi gushyira ku mafunguro yacu, n'igihe tugiye gukora amavuta abantu bisiga mu mutwe ndetse no mu maso, kugira ngo bagaragare neza.

Amashu n'igihingwa gihingwa mu Rwanda, akaba har'umugabo uri kuyakorera neza, inyuma ye hakaba har'ibiti birebire n'ibyatsi bigufi n'umusozi n'inzu itari kugaragara neza, bikaba bikoreshwa igihe tugiye gukora nk'imboga zo kurisha ibindi bintu cyangwa se tukazishyira mu birayi n'ibijumba.

Ibihaza ni igihingwa gihingwa mu Rwanda, kikaba kiri ku mufuka bita kirojana iriho ibuye riwufashe kugira ngo utaguruka, bikaba ari ibihaza bigiye bifite amabara atandukanye, ikigiye gusa n'umuhondo n'ikindi kigiye kuba nk'umukara, bikaba biteretse hasi ku butaka bw'umuhondo.

Ibigori ni igihingwa twifashishaga turi kugira ngo dutunge umubiri kandi kikaba giteraga imbaraga gikoreshwaga igihe turigushaka gukora ifu bitaga akawunga kandi kagikoreshwaga nigihe ushaka kubetesha ifu bitaga iyigikoma.

Pavuro igihingwa gihingwaga mu Rwanda， kikaba gikoreshwaga mu mafunguro yacu ya buri gihe， kubera ko tugikoreshaga turi gukaranga，kikaba giteye ahantu mu butaka，kikaba kiri kugaragara neza cyane，kuko uri kubona ko kinyereye gifite n'amababi g’icatsi，gipfundikishijweho n'ugundi mugozi gusa n’aho harimo ubururu，hirya yaho akaba ari ubundi butaka gusa n’aho izuba riri kuva.

ibishyimbo ni igihingwa gihingwaga mu Gwanda kikaba gikungahaye kuri vitami zi zi zubakaga umubiri inyuma yacyo hakaba hariho ibintu bisa n'aho ari ibyenda n'utundi twatsi dutoya n'ibiti birebire n'ikirere gisa n'aho izuba riri kuva.

Ibiti birebire bikikijwe n'igipangu cya senyenge gifite amabara y'umukara n'umweru. Inyuma yacyo hakaba hariho inzu isizwe amarangi y'umuhondo, ifite n'amabati y'umutuku n'ikirere cyiza bisa n'aho nta mvura iri bugwe.

Abagore batatu n'umusaza umwe bari mu buhinzi kuko bari gufasha ibimera kugira ngo bikure neza, hijya yabo hari ikirere n'imisozi iteyeho ibimera bigufi ,inyuma yabo hakaba hariho inzu iriho ibiti birebire bifite n'amashami.

Ibijumba ni ibihingwa byeraga mu gwanda, tukaba tubikoresha kugira ngo tugire imbaraga, kandi tukabikoresha n'igihe turi gukuramo nka biswi ndetse n'izindi mitobe zitandukanye, kugira ngo biduhereze umusaruro ndetse twungure na leta y'u gwanda kugira utere imbere. Leta y'u rwanda.

Igiti gifite imbuto z'icyatsi zibumbabumbye, inyuma yacyo hakaba hari ibindi bifite amababi wagira ngo arumye ,n'ikirere gisa n'umweru, bikaba ari ibabi bigiye bitandukanye bifite amabara adasa.

Isoko ricururizwamo ibicuruzwa bigiye bitandukanye harimo inyanya, imyembe, wotameloni, n'umugore ushinzwe kubitanga utari kugaragara neza wambaye iribaya ry'ubururu, akaba ari isoko ryiza cyane ririmo n'imifuka abantu bakenera gutwaramo.

Indama ni ubworozi bw'amatungo magufiya. Zikaba ziri kurisha ahandu hari ubwatsi butoshye, zikaba ari iz'umweru, zikaba zifite amagu ane n'amatwi. Zikaba zikoreshwaga mu guteza imbere igihugu ndetse no kurihira abana minerivari. Tuyikoreshaga turi ngo kwitabaza tugize ikindu kidutunguye gisaba amafaranga.

Ibigori bi bihinze mu mu butaka bw'umuhondo busa n 'aho bukomeye. Bikaba bikiri bitoya bifite amababi ndetse bikaba bihingwaga mu Gwanda, bikadufasha mu gukora amafu gagiye gatandukanye ng'aga kawunga ndetse n'amafu g'ikoma, tugakoramo n'ifarini dukoragamo amarindazi n'imigati.

Ubunyobwa igihingwa gihingwaga mu Gwanda, tukaba tugikoreshaga turi kwivura ng' ingwara zigiye zitandukanye no mu mafunguro yacu ya buri gihe dutegura, kikaba giteraga ibijyo kujyoha cane, igihe wariye ibijyo birimo iki gihingwa wumvaga ndabindi bijyo wajya.

Isombe ni igihingwa gihingwaga mu Gwanda kikaba giteye mu butaka hasi yacyo hakaba hariho amashara ibiti bisa naho byumye hirya yacyo hakaba ari ikirere ndetse n'ibindi bindu bisa naho ari birebire wagira ngo ni ibiti byumye.

Ubuhinzi bw'avoka bukoregwaga mu Gwanda mu duce tugiye dutandukanye, kandi iki giti kikaba gifite n'amashami menji ndetse n'amababi, inyuma yacyo hakaba hariho ibindi byatsi by'inshi k byiza, kikaba gifite n'imbuto ari zobitaga amavoka mu muco nyarwanda.

Ibirayi bisutse hasi n'ibishyimbo biri ku mufuka, n'imyumbati hakaba hariho, n'umunzani ufite isahani bakoresha igihe bagiye kugurisha ibiro umuntu akeneye, n'ibintuza bakuyeho ibitoki, n'iyindi mifuka irimo ubusa bikaba ibihingwa bihingwa mu Rwanda, mu duce tugiye dutandukanye.

Aga ni amajeri bitaga ibisate. Aga majeri gakaba garyohaga cyane. Gakaba geraga mu bice byo muri Kongo cyane cyane, kandi harimo umuntu usa n'aho yashyizemo ikiganza gusa aricyo yagaragaje. kandi gera no mu Rwanda mu duce dukeya.

Abantu benshi bafashe ingoko hakaba hariho ibishimbo by'ubwoko butandukanye, iby'umutuku, iby'umuhondo n'iby'umutuku n'ibigiye kuba nk'umweru, bakaba biteze ibitambara by'umutuku n'abiteze ibitenge n'uwambaye agapira k'umuhondo usa naho ari umugabo.

Ihundo ni ibigori barekaga bikuma, barangiza bakabitonoraho amababi, bakabyanika kugira ngo byume, bakuremo ibintu bigiye bitandukanye, nk'ifarini, akawunga gasanzwe, ndetse bakuremo n'ifu y'igikoma dukoreshaga, igihe turi kugira ngo tugire amagara meza, bikaba biri ahantu mu buhunikiro.

Ibishyimbo bita ibitonore, tukaba tubikoresha mu mafunguro yacu ya buri munsi, bikaba biryoha cyane igihe wabitetse neza bigashya, kuko hari n'indwara bivura mu mubiri w'umuntu, bityo akagira amagara mazima.

Mu muco nyagwanda habagaho guhinga ibishyimbo, byakuma ukabihura bikavamo ibishyimbo bya bindi mubonaga byumye. Hirya y'aba bagore bari guhura, hakaba ari igitoki ndetse n'inzu y'igitaka.

Abagore babiri bafite amabase y'umukara, hakaba harimo uwambaye isikiya, witeze igitenge gifite amabara abiri y'umuhondo niryi yatsi n' wundi wambaye agapira k'umweru, witeze igitenge gifite ibara rigiye kuba nk'kaki n'iry'umuhondo, bakaba bari kugosora ibishyimbo, ahantu hari imifuka zigiye zitandukanye iminini n'imito.

Ibishyimbo biri ku meza bifite amabara atandukanye bita ibidishi, bikaba biteretse ku meza afite igitambaro cy'icyatsi, inyuma yabyo hakaba hariho udupapuro n'amvilope n'ihema ry'ubururu, n'igikuta gisize amarangi y'umuhondo.

Ubuhinzi bw'ibishyimbo bwateye imbere mu Rwanda aho usanga babiminjira mu murima, ubundi bikamera kakahava. Bikaba biri mu ishashi ifite igifuniko cy'icyatsi, mo imbere hakaba hasa n'umweru, bikaba bisa na byo n'umuhondo, biri ahantu h'ubutaka bw'umukara.

Abagore bambaye ibirenge n'imyenda miremire, harimo abiteze, abambaye ibitambara by'ubururu n'udupira tw'umutuku, inyuma yabo hakaba hariho ibiti bisa n'aho byumye n'iby'icyatsi na bariho umucanga inyuma yabo, n'inzira nyabagendwa abantu banyuramo.

Ibishimbo bitaga imbuto ngufi bikaba byeraga nda mishingiriro washyizemo, bikaba biryohaga cane, bikaba biteye ku butaka bw'umuhondo, n'utundi twatsi turimo tugufi, bikaba bitezaga imbere Igihugu n'abandu muri rusange.

Ubuhinzi bw'amasaka butezaga igihugu imbere, kubera ko buvagamo umusururu bukavamo n'ubushera. Hirya y'aga masaka hakaba hariho umusozi ndetse n'ibyatsi bigufi bifite uturabyo, n'ikirere gisana n'umweru.

Icyayi igihingwa gihingwaga mu Gwanda, kikaba kijanwaga hanze bakagitunganya kikavamo ibindi bintu byiza dukoreshaga mu buzima bwacu bwa buri munsi, kikaba giteye ku butaka busa n'umuhondo kandi kikaba gisa naho cyeze.

Abantu barindwi bari ahantu hari imifuka myinshi igerekeranye. Inyuma yabo hakaba hariho ibiti birebire bifite amababi menshi, n'ibindi biti bifite utubabi dutoya, n'umusozi n'ikirere gisa neza.

Umufuka uhinnye urimo ibishimbo, ukaba usa n'umuhondo, uteretse ahantu h'umweru, ukaba ukoreshwa igihe tugiye guhaha, cyangwa se turi gusarura imbuto, n'ibindi bigiye bitandukanye.

Ibishyimbo bifite amabara atandukanye，bikaba bikungahaye kuri vitamini z'ibyubaka umubiri, bikaba bigurishwa, tukabona amafaranga aduteza imbere mu miryango yacu, ndetse igateza imbere n'igihugu，kubera ko igihe twashinze amasoko twishyura imisoro, n'abandi bakaboneraho，batari bagera aho.

Abaganga b'amatungo basuzuma inyama mbere y'uko zitekwa, igihe inyamaswa igiye kubagwa ikiri nzima. Izi zikaba ari inyama zifite ibara ry'umutuku zitwa amaroti, bateka kugira ngo umuntu agire amagara mazima.

Muganga w'inyamaswa yasuye ingurube, akaba ari kuzigaburira akoresheje ikintu bakata ku kiduki. Bakita akabunibuni. Ari mu kiraro cyazo yambaye umupira w'umukara, n'agapira k'umweru ,n'ipantaro y'umukara.

Ubworozi bw'ihene ni ubworozi bukoreregwaga mu Gwanda, bukaba bufashaga abaturage gutera imbere ndetse n'Igihugu, bukaduhereza amafaranga ,ndetse harimo n'umugore wiyemeje korora ihene ufashe imwe mu izi hene, akaba yambaye itaburiya y'umweru ku gipangu c'amabati.

Umuganga w'inka wazisuye, inka zigiye zifite amabara atandukanye:kaki ,umukara ,n'umweru n'abagabo bari inyuma yazo ,n'umugore wambaye ijipo igiye kuba umutuku, n'inzu isize isima ,hejuru yabo hakaba hariho ikirere gisa n'umweru.

Inzu ikorerwagamo ubucuruzi bugiye butandukanye，bw'imiti z'amatungo， ikaba ifite amabara g’umuhondo n'ibyapa， imbere yaho bigiye bitandukanye， ari ibishushanyijeho ibintu by'umutuku， ndetse n'iby'umukara，haruguru yayo hakaba hari ikirere gifite amabara，ijy'umweru na buresiyeri.

Ubworozi bw'ingurube ni amatungo magufi gabanaga n'abandu, hakaba harimo umundu uri kugagaburira. Inyuma yabwo hakaba hariho ibitoki mu kiraro, hakaba harimo ibiti bakoreshaga igihe bari kuzigaburira.

Inka ni ubworozi nyarwanda butanga umukamo，ndetse bukaduhereza n'amafaranga igihe twagurishije amata，zikaba ziri ahantu hari ibyatsi bigufi，inyuma yazo hakaba hariho ibiti birebire，n'ahantu hari ibyatsi bisa naho byumye n'ikirere cyiza.

Abaganga b'ingurube bambaye amasarubeti ry'icatsi n'udupi n'agapira k'icatsi inyuma yabo hakaba hariho ikigega giteretse ku mabuye kikaba inyuma yaco hariho n'ibindi byatsi by'icatsi byiza bakaba bahagaze mu muhanda nyabagendwa.

Ibintu byinshi biri ahantu hamwe bigiye biri mu tuntu dutandukanyije amabara icyatsi, umutuku n'umuhondo. Bikaba biri mu nzu nziza cyane ifite amabara y'umuhondo ku bikuta byayo n'agasafuriya kari hirya y'ibi bintu.

Abaganga bashinzwe inyamaswa babirebaga mbere yuko ibagwa cyangwa igihe yagize ubugwayi, akaba aha arimuri Busheri ahantu bagurishaga inyama hari mu nzu y'amakaro ndetse ifite n'idirishya ririmo seyenge na.

Umuganga w'amatungo wasuye urugo rurimo inga ifite amabara abiri:iry'umukara n'iry'umweru, mu kiraro akaba ariho iri, hariho ibiti by'indusi, hirya y'aho hari akandu ka pulasitike k'ubururu n'umufuniko g'umweru, hirya y'aho hakaba hariho uruzitiro rw'ibyatsi.

Inyamaswa iba mu ishyamba ,iyo nyamaswa ifite amabara abiri n'umurizo muremure ayo mabara ni: umweru n' umukara iri mu byatsi bisa naho byumye .Inyuma yayo hari ishyamba rifite ibiti bigiye bitandukanye.

Inyayamaswa iri kugenda mu nzira nyabagendwa asa n'aho ari mu muhanda, ikaba ifite ibyoya bisa n'aho wagira ngo ni imishito. Inyuma yayo hakaba hariho ibyatsi bibisi n'ibindi biti bisa n'aho byumye. Mu muhanda iri kugendamo, hakaba hariho akarongo k'umweru.

ikigona ni inyamaswa igurukaga kikaba gifite amabara abiri ijy'umukara n'umweru gihagaze ku giti inyuma yaho hari ikirere kandi kikaba gitwaraga ibyo kurya ng'amashashi ndetse n'ibindi bintu birimo ng'amamesa n'ibindi.

Icyumvu ni igisimba giteraga ubwoba, kigendaga kirihinduranya bitewe n'ibara ry'ikintu kiriho. Kikaba gifite amabara gatandukanye, igenda kuba ubururu n'ijy'umuhondo n'ijy'igicatsi. Kikaba gifite n'amaso gasohotse, kiri ku gati nyuma yacyo hakaba hariho ibindi byatsi byinshi.

Ndabona inyoni yatoboye igiti itahamo igihe ivuye guhaha ibyo ku kurya, kandi iki giti bisa naho aricyo ibikamo ibyo kurya byayo igihe agiye gushaka ibindi byo kurya. Ikaba ikiraramo mu gitondo ikabyu ijya gushaka ibindi.

Inkoko yibera mu ishyamba, ikaba ihagaze ahantu hari ibyatsi byumye, imbere yayo hakaba hariho ibyatsi bifite icyatsi, n'ikindi cyatsi gifite amababi y'ikigori, ikaba ifite amabara atari kugaragara neza.

Inyamaswa ifite amabara abiri yiberaga mu ishyamba, ikaba iri ahantu hari ibyatsi bigufi n'ibirebire bisa n'icyatsi n'ibindi bifite amashara nibifite amababi manini byenda gusa n'umukara kandi ikaba ifite amabara ijy'umukara n'umweru nirye kuba ikijuju.

Umucamano cyangwa se umuserebanya, ni agasimba gakunda kuba ahantu hari amabuye kandi kakaba gakunda kwitara izuba, kakaba ari akanyamaswa kabi cyane, igihe kaguye mu biryo umuntu atabirya kuko abiriye yapfa.

Ndikubona inyoni ifite amabara atatu y'umutuku, umweru n'umukara, kandi ikaba ihagaze ku giti, gisa naho ari icyatsi n'andi mabara asa naho ndikubona umukara n'umweruru. Iki giti inyoni yagitashyeho.

Inyoni iri kugurukira mu kirere, ifite amababa abiri n'ikinwa gisongoye ndetse n'umurizo, munsi yaho hakaba hari ibiti bigiye bitandukanye, iby'igitari, n'ibiti bisanzwe, hakaba hariho n'ikirere kiza.

Inyamaswa iri kwiruka ibaga mu ishamba, ikaba ikandagiye ku giti cyumye ndetse no ku byatsi biri munsi yayo, inyuma yayo hakaba hariho n'ibindi byatsi byinji bisa n'aho iyi nyamaswa iri mu ishyamba ikaba igiye guhaha cyangwa se iri guhunga.

Inyoni ihagaze ahandu hari ibyatsi bigufi by'icyatsi. Hirya yayo hakaba hariho amababi gagurutse gumye. Inyuma yayo akaba hariho ibindi byatsi byinshi bisa naho wagira ngo ni mu ishamba, ikaba ifite amabara gagiye gatandukanye, iry'umukara n'iry'umweru ndetse n'amaguru gagiye kuba inzobe, ikaba ari inyoni ifite ikinwa gisongoye.

Ikinyoni gihagaze ku giti cyiza, kandi iki kinyoni kikaba gifite amabara abiri, iry'umukara n'umweru, hirya yayo no ha hafi yayo hakaba hariho imbuto z'umuhondo, kandi iki giti gihagazeho hakaba hariho amababi y'icyatsi, ndetse iki giti kikaba gifite n'amashami, bisa n'aho hirya y'inyoni hari kugaragara n'ikirere.

Ingagi ni igisimba kiberaga mu ishyamba kikaba kiriho ahantu wagirango ngo cyuriye igiti gifite amashami gadafite amababi. Kikaba kiri n'ikindi indi cyatsi gifite amababi g'icyatsi, haruguru yacyo hakaba hariho ibindi byatsi bisa naho byumye. Kikaba kituzaniraga ba mukerarugendo bavuye mu mahanga baje kugisura, kikadusigira amafaranga, kigateza imbere n'ubukungu bw'u Rwanda.

Ibisimba bibiri, ikinini n'umwana wacyo biri ahantu hari ibyatsi bitoshye, inyuma yabyo hakaba hariho ibiti bifite imbuto z'umuhondo, n'izigiye kuba nk'umutuku, ahantu wagira ngo ni mu ishyamba.

Inyayamaswa ibaga mu ishamba inyuma yayo hakaba hariyo ibiti byumye ikaba ihagaze ahandu hari utwatsi dukeya tw'icatsi ,hijya yayo hakaba hariyo n'ibindi byatsi kandi ikaba ifite amabara abiri ijy'umuhondo n'ijy'umukara n'amahembe maremare.

Inyamaswa iri hantu hari ibyatsi bigufi by'icatsi inyuma yayo hakaba ari ibindi byatsi bifite ubwoko bugenda butandukanye, hakaba ari harimo n'imbuto z'umuhondo, ikaba isa na kaki ndetse ifite n'amabara g'umukara, ikaba ari inyamaswa yiberaga mu ishamba.

Ikinyoni kirekire gihagaze ahantu hari ibyatsi, bisa naho bifite utubabi duke, kikaba gifite amabara atandukanye y'umukara n'umweru, n'umunwa muremure, hejuru yacyo hakaba hariho ikirere cy'ubururu.

Imvubu urunyamaswa runini rufite amabara gatandukanye ijya kaki n'irigiye kuba ng'ubururu, ri kikaba gihagaze ahandu hari utwatsi dukeya n'ubutaka bw'umuhondo mu ruzitiro gubakishije ibiti bigiye bitandukanye.

Ikinyoni bita nyirabaraza, gifite umunwa muremure, gihagaze ahantu hari ibyatsi bisa naho byumye, n'ibindi bitoshye, kikaba gifite amabara abiri iry'umukara n'irigiye kuba nk'ubururu, ariko atari bwo neza.

Ingima ni agasimba kiberaga mu ishamba kakaba kari ku giti, gasa naho kari kurira igiti gifite amashami, hijya yaho hakaba hari ibindi biti bifite amababi g'icatsi n'ikirere. Ingima tuyikoreshaga igihe dufite ba mukerarugendo baje kureba ibyiza bitatse u Gwanda harimo nk'ingagi n'iyi ngima mubona aha ngaha.